Umugore ahagaze imbere ya moto, yayifasheho. Iyo moto iriho igikasike cy'umutuku kirambitse kuri moto. Inyuma ye hari icyapa kiriho amagambo yanditseho amagambo ari mu ibara ry'umutuku ndetse n'umweru.

Umusore wambaye agapfukamunwa ndetse akaba yambaye ijiri y'ikigo cy'itumanaho MTN, akaba afite ikarito mu ntoki ndetse kuri icyo cyapa cy'ahari hakaba hariho umuntu ushishikariza abantu kubitsa.

Abasore bahagaze, bamwe barasaba serivisi. Umwe mu bari kuzitanga ari gufotora, undi uhagaze, akoresheje telefone ngendanwa.

Umugabo uhagaze mu muryango wambaye ishati y'umweru, ipantaro ya kaki n'inkweto z'umukara, ahagaze imbere y'aho bacuruza ibikoresho bitandukanye, hagaragara intebe z'ama pulasitike n'ibindi birimo imbere.

Umugabo wicaye ku ntebe ahantu mu mutaka munini w'umuhondo na we ubwe yambaye ijiri y'umuhondo, imbere ye hahagaze umugabo uri kumuha telefone bigaragara ko ari kumusaba amayiniti.

Abasore b'imbaraga, bambaye amasarubeti asa. Bari gupakurura imodoka imizigo. Ni imifuka minini cyane y'umweru yuzuye imizigo.

Umugabo usa nk'u ukuzemo ufite imvi ku mutwe, afite indangururamajwi ari kuvugira imbere y'imbaga y'abantu, imbere ye hari akabati batatseho igitambaro cy'umweru.

Umugabo wambaye boti ndetse umupira n'ipantaro ari ahahumbikwa imbuto ndetse zarameze ingemwe ari kugenda azikorera isuku azufira akuramo ibyatsi kugira izo ngemwe zikomeze gukura neza.

Ababyeyi b'abagore bane. Bari kwerekeza ku nyubako y'inzu ikinguye, bose bagana ku muryango binjira. Biragaragara ko bafite icyo bagiye gukorayo kandi bose bagihuriyeho.

Abantu benshi cyane ndetse bambaye neza bicaye ahantu mu kidari, ni abagabo n'abagore abari imbere umwe yambaye agapira gaciye amaboko ko mu ibara ry'ubururu yegeranye n'abandi bambaye imikara hejuru ku ruhande rwe rw'ibumoso.

Umugabo wambaye inkweto z'icyatsi kibisi, ndetse n'imyenda yose y'icyatsi kibisi. Ahagaze hagati mu nkoko nyinshi cyane z'umweru. Bigaragara ko ari ubworozi yakoze.

Abantu benshi bicaye mu kidari bicaye ku ntebe za pulasitike z'umweru, harimo abambaye imipira isa, iciye amaboko ndetse y'ubururu iriho ikirangantego k'Igihugu cy'u Rwanda.

Inyubako yubatse neza mu buryo bugezweho izwi ku izina ry'inzu ikoreramo itsinda ry'ababitsa n'abaguza, hanze ku muryango hari abaturage bahagaze bigaragara ko bakeneye guhabwa serivisi.

Abagabo bambaye amakositimu y'imikara ndetse n'amakaruvati atandukanye bari mu nama bicaye ku ntebe ndetse ameza bari imbere hariho amazi ndetse bafite n'ibyo bandikamo.

Akabari gateye imbere karimo ibyo kunywa ndetse hari mo utubati tugiye tubitsemo ibinyobwa bijye bitandukanye, hateguwemo n'intebe ubona ko ari akabari gateye imbere ariko nubwo bimeze gutyo nta muntu n'umwe wicayemo.

Imbuga nini yisanzuye kandi izitiye. Hari intebe nyinshi z'umukara zirunze hamwe za parasitiki. Bigaragara ko ari imbuga ya bare cyangwa se akabari gacururizwamo inzoga.

Iduka ricuruza ibintu byinshi bitandukanye, twavugamo amavuta, ji, hakabamo imifuka y'imiceri ndetse na biswi. Biri ahantu hamwe, harimo umucuruzi uri kugenda yereka umuguzi ibyo akeneye.

Inyubako y'urusengero runini cyane ariko ubona idasize amarangi nk'aho batayikoreramo, ni inyubako bigaragara ko iki nshyashya nta bantu bayikoreramo.

Icyumba kinini cyane kicayemo abantu, imbere y'abo bantu bicaye hari abagabo babiri bahagaze imbere bameze nk'abari gutambutsa ubutumwa runaka, umwe afite icyapa cyanditseho ngo gerayo amahoro.

Urusengero runini cyane rwicayemo abantu bagiye batandukanye, hatatsemo udutambaro tw'amabara menshi umuhondo, umweru ndetse n'ubururu.

Abantu benshi cyane batabarika. Ni benshi ku buryo kubamenya byakugora. Harimo abagabo, abagore, abakobwa bose bicaye hamwe bitegeye mu kerekezo kimwe. Bigaragara ko bafite uwo bakurikiye.

Inyubako nini cyane y'urusengero, ni urusengero rusakaje amabati y'umweru, rufite amadirishya menshi mu mpande ndetse no mu mutwe ateyeho irangi ry'umweru.

Inyubako nini cyane y'igorofa yubatse ahantu hitaruye ku musozi, isize amarangi y'umuhondo, imbere yaho hari ubwogero abantu bogeraho buzwi nka pisine.

Inzu icururizwamo inyama haragaragara inyama nini bigaragara ko batarayikatamo ibice bitandukanye ndetse hakagaragaramo n'isorori n'iy'icyuma bigaragara ko ari ho baje bayitwaye.

Icyumba kinini kisanzuye harimo igitanda gishashe kandi giteguye neza, kiriho imisego ibiri irimo ibara ry'umweru, icyo cyumba kirimo amarido y'umweru ndetse n'andi y'ikijuju.

Inyubako ya hoteli harimo icyumba giteguyemo ibikoresho byinshi by'umuco Nyarwanda, ndetse bikoranye ubugeni. Hari ibiseke, hari ibishushanyo by'amagare n'abantu bayatwaye.

Imbuga nini yitaruye cyane iriho ubusitani ndetse hari n'ubwogero, burimo amazi yuzuye ariko ayo mazi akaba yafashe ibara ry'ubururu gusa. Imbere yaho hari inyubako bigaragara ko ari hoteri.

Icyumba kinini kandi kisanzuye giteguye neza, kirimo intebe z'imisego ndetse hari n'igitanda gishashe kandi giteguye neza ariko nta muntu ukiryamyeho.

Ibikombe biteretse ndetse n'amajage bigaragara ko harimo umutobe bennga mu mbuto zigiye zitandukanye, biragaragara ko babiteretse hamwe bimwe ngo baze kubinywa, ibindi babikoremo imiti.

Inyubako yubatse ahantu hitaruye cyane, inyuma yayo hari ubusitani burimo ibyatsi bitohagiye. Hejuru mu kirere hari ikirere kirimo ibicu by'umukara, bigaragara ko byenda gutanga imvura.

Icyumba giteguwe neza kandi gishashe, harimo akabati, harimo igitanda kiriho matela ndetse kikaba gishashe neza n'ishuka y'umweru ariko nta muntu uryamyeho.

Inyubako nini cyane y'igorofa ndetse yubatse mu buryo bw'ikizeru, iri ahantu hitaruye bigaragara ko ari hoteli cyangwa se amacumbi magari acumbikira abantu benshi.

Icyumba cyitaruye cyane kandi giteguye neza. Kirapavomye kandi harimo icyuma kerekana amashusho kiri ku kibambasi. Hari n'amatara ari muri iyo nzu kandi ari kwaka.

Shitingi nini cyane yicayeho umugore ukenyeye igitenge gitukura, iyo shitingi kandi isutseho ibitunguru byinshi cyane, bimwe bifunze mu mifungo bigaragara ko bari kubicuruza.

Mu isoko ricuruza ibicuruzwa bitandukanye haragaragara shitingi iriho umunyu uno witwa ingezi, hakaba hari ameza, imihini n'ibindi bicuruzwa bitandukanye.

Ibikoresho bigiye bitandukanye: utuyungiro, imyuko, ingufuri, amasahane ndetse n'ibindi byose byuma waba uzi bigurwa cyangwa se bikenerwa mu nzu runaka.

Isoko ry'imyenda n'inkweto. Hari abakiriya bari kwigera inkweto, ndetse inyuma yabo haparitse igare ririho imifuka ibiri y'umweru.

Uduka ricuruza imyenda itandukanye cyane cyane hagaragaramo ibitenge bigaragara ko ari ho abamama bahahira imyenda bambara, harimo umucuruzi wicaye ku gatebe ategereje abakiriya.

Umugabo uhetse igikapu wambaye agapira k'amaboko, ipantaro ndetse n'inkweto z'umweru, aratera intambwe ashingura yihuta cyane, inyuma ye hari umusaza wambaye ingofero ufite n'inkoni.

Icyumba kinini kiberamo inama, amakwe n'ibindi byinshi bitandukanye, hagaragaramo intebe nziza, ameza ndetse hariho n'ibikombe ku meza n'utwo bafatisha.

Inyubako ndende cyane yubatse mu buryo bw'ikizeru. Inyubako y'igorofa igeretse gatatu ikaba isize amarange y'umuhondo mu mpande.

Abantu babiri bari kugenda kuri moto mu muhanda munini wa kaburimbo, umwe ahetse undi ndetse uw'inyuma atwaye icupa rya gaze mu ntoki kandi yambaye umupira w'umweru.